Icyapa cyo mu muhanda gishushanyijeho umugabo mwiza w'umuzungu wambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru na karuvati, amazina y'uyu mugabo yitwa Brian jone, bari gushimira abakiriya babo ko bakorana neza.

Inyubako nziza cyane, ziherereye ahantu hari umujyi ukomeye, wubatse neza ndetse n'ibyapa baba baragiye bamanuka byamamaza, na byo biba byubatse mu buryo butangaje ku buryo kidashobora kugwa mu muhanda, bikaba byabaye inkomyi mu guteza impanuka mu muhanda.

Kuba yujuje imyaka mirongo itandatu, rugatanga icyemezo cy'amavuko, icyemezo cy'uko usaba ariho, icyemezo cy'irangiza ry'akazi, kopi y'indangamuntu, nimero ya konte ye bwite, ni ibyo RSSB isaba abakozi bayo barengeje imyaka mirongo itandatu.

No mu gihe cy'izabukuru turahagoboka. Abantu benshi igihe bagifite imbaraga zo gukora ndavuga mu myaka ikiri mito, biba byiza igihe bizigamiye ku buryo n'igihe bazaba bamaze gusaza ibyo bazigamye bizatuma bakomeza kubaho neza bitabasabye gusabiriza.

Bitewe n'uko inyubako nyinshi zikorerwamo ibikorwa bitandukanye zisigaye ziba ari etaje kandi zifite imiryango itandukanye, biba byiza kugira ngo abaje babagana biborohere kuba bahita bababona, muri uko kubafasha bagenda bashyiraho udupapuro ku masima ndetse n'amakaro aho abaturage bagendera kugira ngo buri hantu bashaka bakurikire utwo tuntu kugeza bahageze.

Umugabo mwiza wambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara, ni umukozi w'ikigo kitwa SONARWA,, iki kigo gifasha abantu mu bwishingizi aho niba uri umucuruzi cyangwa se ufite amamodoka ushobora kugenda ibikorwa byawe ukabishinganisha ndetse bakabasha no kugufasha mu kwivuza.

Iteka iyo umaze gukoresha telefone yawe wohereza message bohereza amafaranga cyangwa bayakoherereza mten baguha ubutumwa bugufi ukwereka ibyo wari umaze gukora. uyu nawe yarimaze kohererereza amafaranga agira amatsiko yo kure amafaranga asigaranyeho asanga aracyafite amafaranga 10,190.

Ni byiza ko igihe uri gukora ibikorwa bigendanye no kohereza amafaranga, kubitsa cyangwa kubikuza ureba neza witonze kugira ngo hatagira ikosa rimwe rikorwa, yaba kwandika nimero nabi cyangwa se kudakurikiza amabwiriza bikaba byatuma amafaranga yawe uyayobya.

Zigama CSS ni banki ikoreshwa n'abakozi bakora mu nzego z'umutekano, twavugamo nk'abapolisi, abasirikari ndetse n'abacungagereza, iyi banki na yo igira serivisi zikoreshwa bidasabye ko uza ku cyicaro, ahubwo ukaba wabikora ukoresheje telefoni yawe.

Icyumba kinini gicururizwamo imyenda igiye itandukanye, gusa higanjemo iy'abagore kuko bafite ibitenge byiza, amabubu meza, amasharupe meza ndetse n'amakanzu meza.

Inyubako icururizwamo ibitenge ndetse n'indi myenda myiza cyane ikozwe mu bitenge, abadamu cyangwa abakobwa bakunda amakanzu akozwe mu bitenge cyangwa se abagore bakunda gukenyera ibitenge, bose bahagera bagatwara amabara bifuza, amabara meza batarayamaramo.

Mu iduka rinini hakorerwamo ubucuruzi bw'imyenda y'abana, ni myiza cyane imyenda bafite kandi guhera ku mwana ukivuka kugeza ku mwana mukuru imyenda yabo yose urayihasanga. Bakwambika neza kandi ku giciro cyiza cyane kinogeye buri wese.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, aho bafite imyenda itandukanye kandi myiza, kandi bitewe n'ingano buri muntu afite, imyenda imukwira arayihasanga kandi imubereye. Bafite amakanzu, amashati, amajipo, amakote ndetse n'amapantaro.

Icyumba gicururizwamo ibikoresho bigiye bitandukanye, higanjemo ibikozwe nk'ibikoresho by'umuco nyarwanda. Twavugamo nk'uduseke, imitako myiza, amaherena n'utundi tuntu tugiye dutandukanye twiza cyane, two kuba wamanika mu nzu.

Inyubako zikorerwamo ubucuruzi butandukanye, kwa mama Amina baba bafite imyenda myiza cyane y'abadamu, ndetse n'abana, imyenda yabo ntabwo ihenda, kandi ingano yose waba ushaka bitewe n'umwana ushaka kuguria uko angana, cyangwa se umudamu ugiye kwambara uko angana yose iba ihari.

Iduka ricururizwamo ibitenge bisa neza, bikomeye, kandi bigezweho, ku buryo abagore b'abasirimu ndetse n'abakire ari byo bitenge bagura, bakabasha kudodeshamo amaribaya, amakanzu, amajipo, ndetse n'amashati, igihe bumva bashaka ko bambara imyenda isa nk'iy'abagabo babo.

Abagabo batatu, babiri muri bo bambaye udupira tw'umweru n'amapantaro y'amakoboyi, undi yambaye ishati n'ipantaro y'umukara, uyu mugabo wambaye ishati aje kugura imodoka, aba bakozi na bo bakora mu kigo gicuruza imodoka kikanazikora cyitwa akagera motozi.

Imodoka nziza ikiri nshyashya igaragara ko umukozi wikorera ikigo cyitwa akageramoto gikora imodoka kikanazigurisha arimo arayigurisha ku mugabo wakunze imodoka bitewe nuko yari amaze igihe kinini yumva akeneye imodoka kandi y'imodoka ifite iri bara yakozwe muri ubu buryo kore yifuzaga kuba yagura.

Imodoka nziza cyane ifite ibara ry'umweru, ikiri nshyashya iri mu bwoko bwa toyota rava hybrid yasohotse ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, umuntu wari ufite amafaranga kandi yifuza kugura imodoka nziza, iyi modoka nayimushimira kuko irasa neza kandi irakomeye.

Inyubako nini ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'imodoka, ikigo gikoreramo gikora imodoka zitwa Hyundai, umuntu ukunda izi modoka, araza akabereka iyo ashaka cyangwa se akayituma mu gihe asanze idahari, bakazayimuzanira kandi ku giciro cyiza.

Abagabo babiri, umwe yaje kugura imodoka, undi na we ni uri kuyimugurishaho. Hano batanga serivise nziza kuko imodoka ushaka ni yo baguha kandi imodoka zabo ziba zikomeye zinakozwe mu buryo bwizewe, ku buryo impanuka za hato na hato zitapfa kuba ziturutse ku kuba imodoka ikoze nabi.

Imodoka nziza y'umukara, irasa neza kandi ikozwe neza ku buryo abantu bakunda utumodoka twiza iyi modoka itamucika atayiguze. Iyi modoka icuruzwa n'ikigo cyitwa kigali carizi maketi kandi umuntu ushaka kuyigura asabwa kuba afite amafaranga miliyoni cumi na zirindwi yonyine.

Inote y'ijana yakoreshwaga mu gihugu cy'u Rwanda mu bihe byashize ariko kuva ubu amafaranga ijana y'Amanyarwanda ntakiri inote kuko cyabaye igiceri, ibihe bigenda bihinduka amafaranga na yo bakagenda bahindura uburyo akozwemo.

Bitewe n'uko muri banki bazana amafaranga menshi cyane ku buryo uvuze ngo ugiye kuyabara buri amwe kuri amwe, byarangira umunsi wose uwumaze uri kubara amafaranga gusa, ni yo mpamvu bazanye icyuma kibara inote, aho ushyiramo amafaranga kigahita kiyakubarira mu buryo bworoshye.

Mu iduka rikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye, babafitiye amaji meza, kandi asukuye, bafite amajyane, bafiye n'ikawa, umuntu waba ukeneye kuba yabigura arahagera bakamufasha kandi batanga serivisi nziza ku giciro cyiza.

Akabido ka litiro eshanu karimo amata y'ikivuguto. Aya mata ni meza cyane araryoshye kandi yateguwe mu buryo bufite isuku. Amata ni ingenzi ku buzima bwacu twese, ari abantu bakuru cyangwa se abana, kuko abamo intungamubiri zitandukanye.

Mu nyubako icururizwamo amata n'amandazi, amata bayatangiragirira mu birahure ku buryo ubona ari ibintu bisa neza kuko niyo amata yaba yanduye iyo ubirebeye mu kirahure uba ubibona ariko bayashyize mu birarahure kuko bizeye ko amata yabo aba afite ubuziranenge.

Umukobwa mwiza wambaye ikanzu y'igitenge n'ingofero, ari muri kantine aho bacururiza icyayi, igikoma ndetse n'amata, akagira amandazi na biswi, abakiriya baje bamugana, abakira neza buri wese akamuha icyo aje amusaba.

Umugabo yaravuye kuvuza abana birangira inzara ibishe bataragera mu rugo, yibuka ko hafi aho hari arimantasiyo bagira amata meza kandi aryoha, bakagira na keke, abana bose bakunda amata cyane kandi bagakunda amakeke n'amandazi.

Inyubako nini hakoreramo ikaragiro ry'amata, aho abaturage batandukanye b'aborozi, bazana amata yabo bakayashyira hano, na bo bakayakusanyiriza hamwe bakayashyira muri ibi byuma, birushaho kongera ubuziranenge bw'amata ndetse amata ntahita anapfa.

Iyo uri gukoresha telefone yawe ushaka kohereza amafaranga, kureba amafaranga usigaranyeho, kugura ama inite, cyangwa izindi serivisi zose zitangwa na MTN, iteka baguha amabwiriza ugomba gukurikiza ku buryo niyo bwaba ari ubwa mbere, ubasha kubyikorera bitagucanze.

Uyu munsi uyu mugabo yakoreye amafaranga menshi cyane, aya mafaranga ushobora kuyareba ukagira ngo ntabwo ari menshi bitewe nuko amayero wagira agaciro gakomeye cyane, uramutse uyavunjishijemo amanyarwanda wabona ari amafaranga menshi cyane atagira ingano bitewe n'uko kuyatwara byagusaba igikapu kinini.

Umugabo yiriwe mu kazi umunsi wose yari arimo gucuruza ibicuruzwa bye, none bibaye ngombwa ko amasaha yo gutaha agera. Ariko mbere yo gutaha arabanza akabara amafaranga yose yakoreye kugira ngo arebe niba yahombye cyangwa yungutse. Gusa uyu munsi abakiriya bari benshi kandi yabahereye ku giciro cyiza na we gituma abona inyungu.

Inyubako ikorerwa ibikorwa bw'ubucuruzi ku muryango wo hasi, ubanza hakoreramo babantu bavunja amafaranga, izina ryabo biyise Ubwiyunge. Iyo ufite izina ryiza bituma n'abakugana bashobora gukururwa ni uko izina ryawe ari ryiza cyane cyangwase izina witiriye ibikorwa byawe.

Inyubako ya etaje ikorerwamo ibikorwa bitandukanye byose by'ubucuruzi, hasi hakoreramo ikigo cyitwa biro foregisi giridi Frank aho aba ubasanga bakagufasha kuba bakuvunjira amafaranga yawe. Hejuru naho harimo inyubako zikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi bw'imyenda.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, iherereye mu mujyi wa Kigali, hano hasi harimo icyumba aho abakoreramo batanga serivisi zijyanye no kuvunjisha. Aho uzana amafaranga bitewe n'igihugu ujemo, bakakuvunjira bitewe n'uko ukeneye amafaranga akoreshwa muri icyo gihugu kandi ntayo wari ufite.

Inyubako bacururizamo ibikoresho byo mu nzu higanjemo intebe nziza zikoze mu mifariso, ameza, ndetse n'utubati n'utu etajeri, intebe zabo ziba zikomeye kandi kuzireba ubona ko zibereye ko zajya muri salo nziza.

Inyubako nziza yubatswe n'abahanga aho muri salo bahashyize imitako imeze neza bitangaje ku buryo ubireba ukibaza uburyo babyubatse, harimo utubati twiza ndetse n'aho bashyira televiziyo ni heza kandi iyo ubireba uba ubona ko bigezweho.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, higanjemo ibicuruzwa bikorwa mu mbaho, aho ubwo twavugamo nk'utubati, ameza, intebe n'ibitanda, ibicuruzwa byabo biba byizewe kandi bikozwe mu buryo busa neza.

Ameza akozwe mu mbaho ariko uburyo bayakozemo ni uburyo butangaje, ku buryo wibaza ukuntu imbaho bagiye bazigonda kugira ngo ameza bayahe ishusho imeze gutya, bakora n'intebe nziza, ibitanda byiza ndetse n'utubati twiza cyane kandi dukomeye.

Hotel nziza iherereye mu mujyi wa Kigali, yubatse mu nkengero ahatari akavuyo kenshi, aho abantu baje muri iyi hoteli bicara hejuru muri etaje, bakareba imisozi iri hakurya ndetse bakaba bumva n'akayaga kari mu biti bituriye iyi hoteli.

Inyubako nini cyane bigaragara ko ari hoteri, harimo jaride nziza cyane, harimo ibiti byiza n'umucaca mwiza, aho igihe udashaka kwicara mu nzu, baguterera intebe muri ubu busitani bwiza ukaba wumva amahumbezi wowe n'uwo mwasohokanye.

Muri buri hoteli haba haberamo ibikorwa bitandukanye, higanjemo amanama, ndetse n'amahugurwa. Izo hoteli baba bafite na resitora kugira ngo abitabiriye ayo manama cyangwa amahugurwa, igihe cyo kurya nikigera, babashe kubona aho babakirira atari muri icyo cyumba cyabereyemo inama.

Hoteli nziza iherereye mu mujyi wa Kigali ku Gishushu, yitwa Lemigo, bafite pisine nini cyane kandi ku mpande baba barashyizeho n'udutebe twiza, dufite n'imitaka, ku buryo ushaka kota izuba umutaka uwukuraho ndetse waba udashaka izuba ukicara mu mutaka, wakumva ukeneye koga ukaza ukidumbaguza.

Abantu batarajya muri pisine baba bumva bafite amatsiko yo kumenya uko biba bimeze igihe urimo, niyo mpamvu muri iyi nyubako bahashyize pisine kugira ngo abantu bumva bashaka kwidumbaguza bage baza boge maze biyumve neza baruhure mu mutwe.

Ubusitani bwiza kandi bunini burimo indabo nziza n'ibiti byiza, hateyemo intebe zigiye zitandukanye ku buryo ushaka kuzana abantu bawe ushaka ko muganira, mukabasha kuganira mwishimye kandi murumva amahumbezi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo butangaje iherereye mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kgali hafi na komveshini senta, inyubako ni nziza ku buryo umuntu wese uhageze abayumva atahava atafatira ifoto bitewe n'uko kuyireba biratangaje kandi biranejeje.

Inyubako nziza iherereye mu mujyi wa Kigali ni etaje ariko abantu bayibamo ntago ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, hejuru niho hari salo aho bakirira abashyitsi, harimo intebe nziza n'ameza ameze neza ndetse ku meza bahora bateguyeho indabo nziza cyane kandi zihumura.

Muri hoteri haba hari intebe abantu baje kwaka serivisi zitandukanye bicara bategererejemo cyangwa se abari bananiwe bakeneye kuruhuka, iyi hoteri ni nziza cyane bagira ibyumba byiza bisa neza ndetse no muri resitora yabo ibiryo bateka biba biryoshye.

Inyubako nziza iherereye mu mujyi wa Kigali mu Kiyovu, yitwa Mariyoti, inyubako ni hoteri ya Mariyoti, bagira serivisi zigiye zitandukanye kandi bafite na pisine nini cyane, ishobora kwakira abantu benshi batandukanye, mu gihe baba bashakiye koga icyarimwe.

Icyumba cyiza cyane giteguye neza, bigaragara ko hagiye kuberamo inama y'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubushakashatsi ndetse n'iperereza cyitwa RIB. Abatumiwe ntabwo barahagera ndetse n'abayobozi b'uyu munsi bari buze kugenga iyi nama ntabwo na bo barahagera.

Inyubako nziza cyane ya etaje, yubatswe mu buryo butangaje, yubatswe n'ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Radiant, iki kigo gifasha abantu kwizigamira, mu gihe baba bariho cyangwa batakiriho, bakaba abana babo cyangwa imiryango yabo yakomeza kubaho neza.

Icyumba gikorerwamo n'umuyobozi mukuru wa banki, aho harimo ameza n'intebe ndetse n'intebe umuntu uje kumwaka serivisi yicaramo, mu mabanki usanga abakozi baho bakira neza ababagana abantu bose bagiyemo bataha bishimiye serivisi bahawe.

Inyubako nziza yubatse neza, iherereye mu Mujyi wa Kigali, ituriye umuhanda wa kaburimbo, hakorerwamo ikigo cy'ubwishingizi cyitwa Radiyanti. Radiyanti ni ikigo abantu batandukanye baza bagafatanya na bo, bakaba bashinganisha ibikorwa byabo ndetse n'ubuzima bwabo.

Inyubako ikorerwamo n'ikigo cyitwa Sanlam, iki kigo gifasha abantu kwizigamira, mu gihe ushobora kuba uri umusore ariko wumva ushaka gutangira kuzigamira abana bawe kugirango bazige neza, kandi banagufasha kwivuza ntiwiyishyurire ijana kwi ijana kuko bakwishyura mirongo icyenda ku ijana.

Icyumba kinini cyane gikoreramo Sanlam, uyu munsi bafite ibirori bitewe n'uko bamaze imyaka irenga icumi bakora, kandi bakorana neza n'abakiriya babo, babatumiye kugira ngo uyu munsi babashe gusangira ndetse banaganire uko byarushaho bagakorana neza cyane.

Inyubako iherereye mu mujyi wa Kigali ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Umuryango ubanza hakoreramo ikigo cya siransi cyitwa radiyanti. Iki kigo gifasha abantu bafite ibinyabiziga kuba babishinganisha ndetse n'indi mitungo itandukanye ndetse kibafasha no kwivuza.

Banki yitwa NCBA ishobora kuguha inguzanyo ndetse ukabasha kwishyura inyungu atari nyinshi cyane bakwaka kugira ngo nawe witeze imbere, ushobora kugura inzu cyangwa se ukayubaka bitewe n'uko amafaranga baguha aba ahagije ndetse ukaba wakora n'ibindi bikorwa byaguteza imbere.

Igihe ukoresha jeti banki mubana neza kuko niigi ufite ibibazo ushaka kubigera bakaba baguha amafaranga ibyo bibazo byawe ukabikemura ku ngwate itari nini cyane kandi nabo iyo baguhaye amafaranga ntabwo inyungu bakwaka iba ari nyinshi intego yabo waba ari ukugufasha kwiteza imbere.

Bitewe nuko mu masoko ibicuruzwaba aba ari byinshi, bafite ukuntu bagenda bagabanya. Buri bwoko bw'ibicuruzwa bakabigira mu gace kamwe, kugira ngo ntibyivange cyane usange ahari ibitoki ni na ho barigucururiza n'imyenda, ndetse n'amavuta. Ahubwo buri bwoko bw'ibiribwa bagenda babushyira ahabyo kandi binabungabunga isuku.

Mu isoko uyu munsi nta bakiriya bahari yaba ari abo kugura ibishyimbo cyangwa ibigori cyangwa ibyombo ndetse n'ibitoki, abakiriya bose uyu munsi nta mafaranga bafite bitewe n'uko amatariki tugezemo atari amatariki meza kandi abana nabo bakaba bari kujya ku mashuri.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, umugabo ucururizamo hano, ibikoresho byinshi acuruza ni ibigaragaza umuco w'u Rwanda, harimo ibiseke, harimo ibyansi, harimo ibisabo, n'ibindi bikozwe mu inshinge, ku buryo kubireba uba ubona ko ari ibikoresho byiza cyane, kandi bifite ubusobanuro bwiza.

Muri butike ntago bikira itegeko ko amafaranga uyatwara mu ntoki cyangwa ukohereza kuri nimero gusa bitewe n'uko iyo uyohereje kuri nimero bagukata, ahubwo bazanye kode aho wohereza amafaranga ukishyura ibyo waguze nta giciro na kimwe bagukase.

Akazu gatoya ka MTN aho umu ajenti akorera, abaje bamugana bajya ku idirishya akabakira bitewe n'uko bose batagakwiramo. Aba ajenti ba MTN ni aba mbere mu gutanga serivisi nziza kandi ku gihe.

Abagenti ba MTN ni aba mbere mu gutanga serivisi nziza, kandi bakagufasha banagusobanurira kugira ngo igihe ugize ikibazo utari kubabona hafi yawe ujye ubasha kuba wabyikemurira. Umugabo yari aje kubikuza ariko ntabwo yari azi ko ushobora kuba wakoherereza amafaranga umuntu uri mu mahanga.

Muri iki gihe, serivisi zose ushobora kuzihabwa, nta mafaranga ufite mu ntoki, uyafite kuri telefone, ukabasha kwishyura, kandi abo ubikoreye, nabo bakabikora bishimye, bitewe nuko bamaze kubimenyera, ko amafaranga atagendanwa mu ntoki gusa, ahubwo no kuri telefone bahishyura, aba bagabo babiri bari kwishyura aba motari, kuri telefone.

Inyubako isize amarange y'umuhondo n'umweru hariho ibirango bigaragaza ko ari Emutiyene iri gukoreramo, abaturage ndetse n'abakiriya ba MTN bose iyo bahuye n'ikibazo baraza abajenti ba MTN bakabafasha gukemura ibyo bibazo bafite.

Akazu gatoya gafite amabara y'umuhondo kanditseho MTN mobayiro mani, bigaragara ko hakoreramo umwajenti wa MTN, bitewe n'uko umunsi w'ejo yatashye atinze, uyu munsi na bwo agiye kuza mu kazi akererewe, abakiriya baramutegereje ariko ntabwo barambiwe bitewe n'uko baje kubikuza amafaranga kandi bayashaka byihutirwa.

Umukozi ukorera ikigo cyitwa vuba vuba gishinzwe gutwarira abantu ibyo baba babatumye cyane cyane icyo kigo gifasha abantu baba batumye ibyo kurya igihe badafite umwanya wo kuba babisanga aho biri ahubwo bo bakabi basangisha aho bari yaba ari mu kazi cyangwa bari mu rugo.

Inyubako ikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, cyane cyane imboga n'imbuto, iherereye mu mujyi wa Kigali Nyarutarama. Ibikorwa byabo bikorwa mu buryo bwiza kandi bwizewe, kuko imbuto baba bazibitse mu buryo bwiza, ku buryo zitahita zibora cyangwa ngo zipfe.

Mu mujyi wa Kigali ku Gisozi hariyo inyubako nziza irimo irakodeshwa, inyubako ifite ibyumba bine n'ubwogero butatu, ifite saro nziza kandi ibi byumba muri buri cyumba hagiye harimo utubati tunini washyiramo imyenda ndetse n'inkweto.

Ubu hasigaye hari inyubako nyinshi zigiye zitandukanye, baba bafitiye amacumbi, aho wowe ugenda ukababwira bitewe n'icyumba ushaka cyangwa amafaranga ufite, bakakwereka aho ushimye akaba ariho urara, ntabwo bikira nka mbere, aho washoboraga kuba wabura imodoka cyangwa ukabura uko utaha bikarangira uraye mu muhanda.

Inyubako nziza iherereye mu Mujyi wa Kigali, ni inzu nziza cyane isize amarangi meza, ndetse hasi hashashemo amakaro. Iyi nyubako irimo iragurishwa iherereye mu Mujyi wa Kigali, Umuntu waba uyifuza asabwa kuba afite miliyoni mirongo icyenda n'eshanu z'Amanyarwanda.

Umugabo w'umuzungu wambaye ishati y'ubururu n'umweru, yambaye ingofero bigaragara ko yambaye kugira ngo bimukingire bitewe nuko ahari akorera ibikorwa by'ubwubatsi, bityo hakaba hashobora kubera impanuka itunguranye bikaba byakomeretsa umutwe.

Inyubako nziza iherereye mu mujyi wa Kigali, ibikoresho byose ubisangamo, yaba ari muri salo harimo intebe nziza, mu byumba harimo ibitanda byiza, na matera nziza cyane, zikomeye zinepa, mu bikoni na ho ibikoresho byose ubisangamo nka za gaze, amasafuriya, ndetse n'ibyombo. Iyi nyubako kuyikodesha ku kwezi wishyura amadorari igihumbi na magana atanu.

Inzu nziza iherereye mu mujyi wa Kigali, yubatse neza kandi ifite ibyumba bihagije n'ubwogero buhagije, harimo na parikingi ku buryo nyirayo abaye afite ikinyabiziga, bitamugora kubona aho agiparika. Iyi nyubako kuyikodesha ni ibihumbi magana atandatu buri kwezi.

Inyubako nziza cyane iherereye mu Mujyi wa kigali kibagabaga, ifite ibyumba bibiri n'ubwogero bubiri, kuyikodesha ni ibihumbi magana atandatu by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi, inyubako ni nziza cyane ku buryo umuntu wese uhari aba yumva atekanye.

Inyubako iherereye mu Mujyi wa Kigali Kabeza irimo irakodeshwa, ni inyubako isa neza ifite amarangi meza kandi yubatswe mu buryo bugezweho, ni nini bihagije ku buryo umuryango wose wawuzana mukabamo, harimo ibyumba bihagije byinshi, harimo salo nziza, harimo n'igikoni cyiza.

Ikibanza giherereye mu mujyi wa Kigali kinini bihagije ku buryo inzu waba ushaka kubaka iyo ari yo yose wayishyiramo ndetse ukaba wahashyira n'ibindi bikorwa, iki kibanza kigurishwa miliyoni cumi n'eshanu.

Inyubako nziza iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe irimo irakodeshwa, iyi nyubako harimo ibyumba bine n'ubwogero butatu, iyi nyubako kandi ntabwo tubaca amafaranga menshi cyane kuko ku kwezi wishyura ibihumbi magana atatu mirongo itanu gusa.

Amasoko agezweho ntago hakibaho impaka. Aho asanga umukiriya arimo arajya impaka n'umucuruzi ku giciro, agira ngo amugabanyirize bitewe nuko yumva bamuhenze. Kuko ubu ibiciro byose bya buri bicuruzwa baba barabishyize mu mashini, we akazana ibintu yumva akeneye guhaha, akagenda abikoza ku mashini bakamwereka amafaranga akwiye kwishyura.

Iduka ricururizwamo imyenda itandukanye, harimo iy'abagore, abagabo abakobwa ndetse n'abasore n'imyenda y'abana na yo urayihasanga, imyenda yabo iba ikomeye kandi ntabwo ihita icuya, bitewe n'uko yakozwe n'uruganda rukora imyenda neza.

Mu nyubako icururizwamo imyenda itandukanye ndetse n'inkweto zikozwe mu ruhu, bita masaye, harimo inkweto z'abagabo, harimo n'iz'abagore. Umuntu wese ushaka inkweto ndetse n'imyenda myiza, araza kuko baba bafitemo ibikwira abantu bafite ingano zitandukanye.

Inyubako ndende iherereye mu mujyi wa Kigali, ni nini ifite ibyumba byinshi byose bikorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi. Umuntu uhagenda urabona ko ari ahantu heza ku buryo ugira ngo uri i Burayi. Ibikorwa bikorerwamo byose, abacuruzi ndetse n'abandi bakozi babikora batanga serivise nziza ku buryo umuntu wese ataha yishimye.

Mu nzu hakorerwamo ibikorwa by'ubucuruzi, ubucuruzi bwiganjemo ni imyenda ndetse n'amatelefone, umuntu waba ukeneye imyambaro myiza, yaba iye cyangwa iy'umugabo we cyangwa iy'umugore we cyangwa se iy'abana be, yatugeraho tukamuha imyenda myiza kandi ikomeye ku buryo buri wese uyambaye aba yumva atewe ishema nuko ari kugaragara.

Kwa muganga ku meza yaho bahashyize ama mituweli menshi kugira ngo abantu bamara kwivuza, uraba asoje ibikorwa byose aze atware mituweli ye, ubundi yitahire. Ni byiza ko buri muntu wese aba afite ubwishingizi mu kwivuza.

Mituweli y'umwana witwa Giramata Chance, wavutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane, ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa kane, iyi karita yarayibuze ariko yabonetse ku buryo umuntu waba uzi uyu mwana yaza akabasha kuyimugezaho.

Mituweri y'umwana w'umukobwa witwa Bwiza, yarayitaye ariko twayibonye. Ababyeyi be turabasaba ko baza bakayitwara kugira ngo uwo mwana aho yaba ari hose abashe kubona uko yivuza bitamugoye. Ni byiza ko buri muturage wese aba afite mituweri, bitewe n'uko igihe urwaye ikugoboka.

Inyubako nini iherereye ku gishushu, hasi hakoreramo simba supamaketi bagira ibicuruzwa byose bishoboka ndetse harimo na resitora cyangwa se akabari, umuntu ukeneye kuza agasangira n'inshuti ye, baraza buri wese akanywa icyo ashaka ndetse akarya icyo ashaka kuko byose biba bihari.

Mu iduka ricururizwamo ibyo kurya ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa mu rugo, harimo ama omo, harimo impapuro z'isuku, mu byo kurya harimo imiceri, amakaroni, amavuta, imyunyu, ubunyobwa ndetse n'ibindi bitandukanye nk'amasukari, mayoneze, na za marigarine.

Isoko ryiza cyane kandi rinini rigezweho, aho usanga abakiriya igihe baje guhaha, ibyo bahashye batagenda babyikoreye byose mu ntoki, ahubwo babishyira mu tugare bakagenda bacunga, bakagenda bashyiramo buri kimwe cyose bakenewe, ubundi bagera ku muryango bakababarira, bakishyura, bakanabibabikira neza.